Ni abantu bateraniye ahantu hamwe ubona ko ari abantu batanu, bafite mudasobwa imbere yabo ndetse hari umugore wambaye imyenda ya Made in Rwanda wahagurutse umanitse akaboko, inyuma yabo hari amashusho agaragaza Repubulika y'u Rwanda.

Serivisi za leta abagore batatu bicaranye bafite uruhande rwabo amazi abateretse imbere, bakaba bakurikiye inama yabahuje mu gutanga sevisi.

Abantu batatu bateraniye ahantu hamwe mu nama, urabona ko bagizwe n'abagabo n'umugore umwe, bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'indangururamajwi, bicaye mu ntebe z'umukara, inyuma hari ibyapa bigaragaza ko Kigali yacu, aho bafite n'amazi abateretse imbere.

Ni abantu bateraniye ahantu ubona ko bakikije imeza, bicaye ku ntebe z'umukara ubona ko igizwe n'abagabo n'abagore, hakaba hari n'undi uri gufata amashusho y'ibibera muri iyo nama, hakaba hari n'undi uhagaze uri kubasobanurira ibijyanye n'iyo nama.

Ni abantu benshi bateraniye ahantu hamwe mu nama ubona ko bicaye mu ntebe z'umukara. Ni abagizwe n'abazungu n'abirabura, abagore n'abagabo, ubona ko imbere yabo biteretse amacupa y'amazi yo kunywa.

Ni abantu benshi bateraniye ahantu ubona ko harimo abagabo n'abagore, imbere yabo bafite amazi imbere kandi bameze neza nk'aho bakurikiye iyo nama. Bakaba bicaye mu ntebe n'imbere yabo hari ameza abari imbere.

Ni abantu benshi bateraniye ahantu hamwe mu nama, ubona ko harimo abazungu n'Abanyafurika bicaye mu nama, bari kwigira ku bintu runaka, aho bicaye hari amatarama arimo arabamurikira, hakaba hari n'amarido kuri ibyo bikuta.

Abantu bateraniye ahantu hamwe mu ruziga, bambaye imyenda itandukanye ariko bamwe muri bo bagiye bahuje, aho bamwe bambaye umuhondo ndetse abandi bambaye ubururu, bicaye ahantu hari ibirahure ndetse n'amatara abamurikira.

Abantu batandukanye bari mu nama, ubona ko imbere yabo hari mudasobwa irambitse ku meza, abantu bakaba bakurikiye inama harimo abagabo n'abagore, imbere yabo bakaba biteretse amazi hamwe n'ibikapu.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, aho ubona ko abenshi muri bo ari abagabo, umwe afite indangururamajwi imuri imbere hari ibyo ari gusobanura ndetse n'amazi abateretse imbere na ji ibari imbere.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bigaragara ko bari mu nama, harimo abanyamahanga, kandi urabona ko n'imbere yabo hari ibyo bari kwandika, n'amazi ateretse imbere yabo. Abantu rero bakaba bari kwitegereza bamwe bari gukora ibintu...

Abantu bane bicaranye, ubona ko ari Abanyafurika ndetse n'umuzungu, bafite ikirahure cy'amazi kibateretse imbere ndetse n'uducupa tw'amazi, ubona ko bamwe muri bo hari ibyo barimo barandika n'abandi bakurikira.

Abantu benshi bari mu nama bateraniye ahantu hamwe urabona ko bicaye ku ntebe z'imikara harimo n'abafite mudasobwa imbere yabo, hakabamo na televiziyo nini cyane iri imbere yabo, hakaba hari n'abantu bari kuyobora iyo nama bakaba bateraniye mu nzu.

Ni abantu bateraniye ahantu hamwe mu nama ubona ko bicaye ku ntebe, hakaba hari n'ameza ahari imbere yabo y'umutuku, bakaba bafite indangururamajwi zibafasha mu kumvikanisha ibyo bavuze, inyuma yabo hari umugore nawe wicaye muri iyo nama.

Abantu batatu bahuriye hamwe ubona ko bari mu nama bari gusobanura ibijyanye n'umushinga wabo, harimo abagabo n'abagore bicaye ku ntebe z'imyeru. Hakaba hari n'ibyo biteretse, imbere umugabo umwe afite indangururamajwi.

Ni abantu benshi cyane bahuriye ahantu hamwe mu nama ubona ko harimo ibyo bari kwandika biri kuvugirwa muri iyo nama, inama igizwe n'abagabo n'abagore, abagore bisukishije n'abandi bitadiye ibintu ku mutwe, ubona ko bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho amazi.

Umunara ushinzwe ahantu, kandi uwo munara ushinzwe gutanga serivisi ku baturage, tukawifashisha mu gutumanaho.

Mo mo dipatimenti ni umuntu wambaye imyenda yo kwa muganga. Hari uwo bita umuforomo ari kugenda atanga serivisi ku barwayi be. Hakaba hari icyo byagenwe kugira ngo uwo muntu akore ako kazi. Icyo bigaragara.

Ni itangazo rigaragaza serivisi za Leta, aho babungabunga amashyamba banayarinda akagumya agakura.

Ni abantu babiri batandukanye, ubona ko umwe ari muri telefoni, undi ari muri mudasobwa, bakaba biteretse agakombe imbere yabo, akaba yambaye n'amarinete n'undi yambaye ingofero y'umukara, ubona ko hari ibyo barimo mu matelefoni.

Umunyamahanga w'umuzungu hamwe n'umwirabura, ubonako bifotozanyije umwirabura akaba yambaye ingofero y'umweru hamwe n'ikote, umuzungu we akaba yiyambariye ikote hamwe n'agatisheti gasa igitaka.

Umugabo wambaye ingofero, Umugabo w'igikara, ubona ko ari muri telefoni, telefone afite ni umweru ubona ko ari kuyirebamo, iruhande rwe hari icyapa kigaragaza ko nta modoka yemerewe kuhaparika umwanya munini.

Ni ingagi nini cyane y'umukara yicaye ahantu mu byatsi bisa icyatsi hakaba hari n'ibindi biti biteye muri iryo shyamba bisa icyatsi nabyo, ni ingagi yicaye yonyine ari imwe ubona ko ituje iri kurya imigano.

Abagabo babiri bicaye ahantu ubona ko imbere yabo biteretse mudasobwa ahari bari kurebamo. Umugabo umwe yambaye ingofero n'undi yambaye umupira w'umukara bose bafite ibyo barimo baraganiraho.

Ni amazu yegereye umuhanda, ayo mazu akaba ariho ibyapa bimenyesha ko aho hantu hari serivisi zihakorerwa zirimo Irembo na banki yacu, hamwe na serivisi ya Ekwiti, hamwe na banki, izo nzu zikaba ziri ku muhanda kandi zikaba zifunguye.

Ni umuhanda w'igitaka urimo abantu bagenda babisikana, abagenda bamanuka n'abazamuka, uwo muhanda ukaba ushinzemo ipoto rishinzwe gutwara imigozi riyijyana ku mazu atandukanye, ikaba ipoto ikozwe mu giti itwara umuriro.

Ni umuntu uri kunyonga igare ry'amapine abiri, hakaba hari ipoto rinini cyane ritwara umuriro n'insinga ziri kuri iyo poto, hakaba hari ingo zikikije uwo muhanda, hakaba hari n'ibyapa biyobora muri uwo muhanda.

Ni amapoto manini atwara imiriro ku mazu atandukanye, ashinze ku muhanda. Iruhande rw'ayo mapoto hakaba hari indabyo zihateye hamwe n'amajaride. Kuri uwo muhanda kandi hakaba hari n'igipangu kinini cyane gikikije urwo rugo.

Ni abagabo babiri, ubona ko bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ingofero zibarinda, buriye ipoto bari gukora amashanyarazi, aho bakora insinga z'amashanyarazi, hari n'ibiti bibegereye.

Bigaragaza amapoto manini cyane. Bishinzweho, ku ruhande rwayo hari ibintu biyafatiyeho bifunze. Ibyo bintu bikaba bifashe kuri ayo mapoto.

Amapoto manini cyane atwara umuriro, umuntu uri kugenda mu muhanda amanuka wambaye ibintu by'ubururu n'undi wicaye munsi y'iryo poto, hakaba hari n'igiti kinini cyane cyashinze kuri iryo poto, ubona ko hari n'ibiti by'ibitoki, hakaba hari n'ibiti by'amavoka.

Ni abantu batandukanye bahagaze ahantu hamwe, imbere yabo haparitse moto igizwe n'amabara atandukanye harimo n'umukara, izo moto zikaba ziparitse ahantu ku itapi, imbere yaho hari ibyuma bihari.

Umuntu wambaye imyenda, ishati n'ipantaro, uwo muntu akaba ari umugabo urimo uragenda ahantu hatwikiriye, iruhande rwawo hateye indabyo zitandukanye hamwe n'amapasiparume, ubona ko arimo aragenda yemye nta kibazo afite.

Abagabo babiri ubona ko umwe ari umuzungu undi ari umunyafrikaba, bakaba bambaye imyenda yose isa kandi bakaba bicaye ku ntebe z'ubururu, iruhande rwabo hakaba hari televiziyo ibateretse imbere hamwe na mudasobwa ibari iruhande rwabo.

Abantu benshi cyane ubona ko barimo barinjira ahantu aho bagiye kwaka serivisi zigiye zitandukanye, inyuma y'icyo gipangu hakaba hari umumotari uhaparitse hamwe n'umuntu uri kwambuka mu muhanda munini w'umukara, urimo ibimenyetso byo mu muhanda.

Imodoka ikoreshwa mu butabazi, ubona ko iyo modoka ifite amabara y'umweru hamwe n'umutuku, hakaba handitseho amagambo y'umutuku n'umweru n'ibimenyetso bigaragaza iyo modoka, hakaba hari n'inzu nini cyane iri aho hantu ubona ko hari abantu bahagaze iruhande rw'iyo nzu hamwe n'ikigega gitwara amazi.

Imodoka imwe y'umukara iparitse ahantu, n'izindi ebyiri z'umweru n'umutuku, zitwara abarwayi mu bitaro bitandukanye, inyuma yaho hari igiti kinini giteye, n'ikindi giteye ubwo ni ibiti bibiri, hakaba hari n'inzu yubatse aho hantu.

Ibitaro bya Nyarugenge District Hospital, ni ibitaro ubona ko bihinzemo indabyo zigiye zitandukanye hamwe n'ibiti kandi biragaragara ko hari isuku hamwe n'amabara agiye atandukanye.

Umugabo n'umugore. Umugabo ni umuganga, umugore ni umurwayi. Umugabo w'umuganga ari gupima, umurwayi ibintu bigiye, bitandukanye mu mubiri we.

Ni abantu benshi bahuriye mu nama ubona ko bagizwe n'abagabo n'abagore bambaye udupfukamunwa; abandi bicaye abandi barahagaze bamwe hari ibyo barimo barasobanurira bigaragara ko bari muri serivisi runaka.

Ni umugabo wicaye mu ntebe ubona ko yigoshesheje, yambaye agapfukamunwa k'umweru, akaba afite ikaye nini y'ubururu, akaba yicaye mu ntebe, aho yambaye imyenda, ipantaro n'ishati, inyuma ye hakaba hari n'umurinzi uhari.

Ni abantu babiri b'abagabo ubona ko bari guhererekanya ibintu bifotoje ahantu hamwe bambaye neza cyane amakositimu, inyuma yaho hari ibikoresho bikoreshwa mu muziki bifashisha bacuranga.

Abantu batandukanye ubonako barimo bararahira. Bagizwe n'abagabo n'abagore bambaye imyenda y'abacamanza hamwe n'idarapo ry'u Rwanda imbere yabo, bazamuye ukuboko kw'iburyo bigaragaza ko barimo bararahira.

Babiri bambaye imyenda isa n’inkweto z'umukara nundi umwe uri gusohoka ahantu mu gipangu wambaye ingofero ya oranje, bari gusohoka mu gipangu bigaragara ko umwe muri abo bagabo babiri umwe afite urupapuro arimo arasoma.

Abantu babiri bahagararanye ubona ko ari umugabo n'umugore bambaye udupfukamunwa ndetse imbere yabo hari mudasobwa ndetse n'idangururamajwi n'agacupa k'amazi gateretse imbere y'uwo mudamu bafite ibyo barimo baravuga...

Abagabo batatu ubona ko bari muri iri shusho, umwe ari imbere ya mudasobwa ubona ko hari ibintu arimo arandika, akaba umwe yambaye amarinete n'abandi babiri batayambaye, bakaba bambaye imyenda bose y'umukara n'amashati.

Ni abantu benshi cyane ubona ko bambaye impuzangano yose isa, bakaba biyogoshesha kimwe bigaragara ko abo bantu bose ari abagabo, ubona ko imbere yabo hari igikuta kinini cyane gihari, bakaba bari kugenda mu nzira.

Ni umugabo ukuze ufite ubwanwa wambaye ingofero hamwe yambaye n'amarinete n'imyenda y'umutuku, ubona ko yambaye na kavati, ari kureba imbere ye kandi asa igikara abona ko inyuma ye hari ibara ry'umweru.

Abantu benshi barimo baragenda mu muhanda, ubona ko hari ushinzwe umutekano wo muri uwo muhanda ureba uko ibintu bigiye bihagaze, akaba ari iruhande rw'amapoto atwara umuriro hamwe n'iruhande rwe hakaba hari igikuta kinini cyane, hejuru hakaba hari ishyamba rinini cyane ry'umukara

Ni icyapa kinini cyandikishijweho inyuguti z'ubururu mu ishusho ry'umweru, ubona ko harimo ibiranganigo by'u Rwanda bigaragaza aho aho polisi ikorera y'u Rwanda, ikaba gishinze ku muhanda, aho abantu benshi banyura bakakibona.

Abantu benshi bagiye batandukanye bari kugenda mu muhanda, ubona ko muri uwo muhanda hari ushinzwe umutekano mu muhanda ari we witwa umupolisi. Akaba yambaye imyenda y'umukara ku bitugu bye hakaba handitseho polisi, akaba ari kureba ko ibintu byifashe mu muhanda.

Umupolisi wo ku muhanda uri gucunga umutekano wo mu muhanda. uko abaturage bambuka, n' ibinyabiziga bigenda mu muhanda. Akaba ahagaze rero ashize amaboko ye inyuma, yitegereza neza cyane umutekano wo mu muhanda.

Imodoka itwara esanse peteroli iri kuzimya iri kuziywa kubera igize inkongi y'umuriro, hakaba hari umuntu uri kuyizimya ushinzwe kuzimya inkongi y'umuriro.

Ni abantu benshi bateraniye hamwe mu nama ubona ko bagizwe n'abagabo n'abagore, bambaye imyenda igiye itandukanye hakaba hari n'uwayoboye iyo nama yicaye ahantu hamwe abitegereza ubona ko hari ibyo barimo baramubaza muri iyo nama.

Ni umugabo wazamuye akaboko k'iburyo ubona ko ari kurahira. Yambaye imyenda y'uburu n'ishati y'umweru, hamwe n'idarapo ry'u Rwanda rimuri imbere. Akaba ari umugabo ufite indangururamajwi imbere ye.

Abantu benshi batandukanye bari mu bikorwa byo kwiyamamaza, abo bantu baje gushaka amajwi ngo babashyigikire, abo bantu bakaba bahuriye hamwe, bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari mikoro ihashinze.

Ni abantu benshi batandukanye ubona ko bambaye ubusa, bisize amarangi ku mibiri yabo agiye atandukanye, harimo amarangi y'ubururu, umweru n'umutuku hamwe no mu isura bisize ayo mabara, bakaba biyandikishijeho inyuguti y'ubururu yanditseho pa.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, ubona ko bari ku murongo, bagizwe n'abagabo, n'abagore, batonze umurongo ahantu hamwe, hari amatente y'umweru, hamwe n'andi mabara agiye atandukanye, ari kuri iryo tente, bakaba batonze umurongo hamwe aribyo bagiyemo.

Ni abantu bateraniye ahantu hamwe mu nama ubona ko harimo abagabo n'abagore harimo n'umugore witwikiriye umwenda mu mutwe, imbere yabo biteretse amazi yo kunywa bicaye no mu ntebe nziza z'umukara hamwe n'imbere hariyo amazina yabo.

Moto iri kugenda mu muhanda munini w'umukara iriho n'umumotari, ubona ko umuhanda uri mu makaritsiye kuri uwo muhanda hakaba hari amazu yubatse impande yawo, hakaba hari na moto zigiye ziparitse n'abantu bahagaze kuri uwo muhanda.

Ni umuhanda munini w'umukara unyuramo imodoka zimanuka izindi zizamuka, ubona ko hari moto izamuka, akaba ari umumotari uyicayeho hakaba n'ikimodoka kinini cyane gikoreshwa mu bwikorezi, ku ruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibiti bihashinze binini.

Ni umuhanda nyabagendwa, umuhanda akaba ari munini cyane, urimo uranyuramo imodoka zirimo kubisikana, imodoka imwe igenda imanuka n'indi modoka nini cyane itwara abagenzi y'umweru itwara igenda izamuka, hakaba hari na moto iri kugenda izamu....

Imodoka itwara abantu muri rusange, imodoka nini yitwa bisi ikaba iri mu muhanda itwaye abantu, akaba hari n'abantu bari kuyinyura imbere babisikana umwe amanuka n'undi azamuka bigaragara ko uzamuka ari kuri telefoni.

Imodoka nini y'ubwikorezi, ubona ko ikoreshwa mu gutwara ibintu bisukika, irimo iragenda mu muhanda w'umukara, ndetse no ku nkombe z'uwo muhanda hari ibiti byinshi biwukikije, hino akaba ari rigori aho amazi anyura.

Ikimodoka kinini cya rukururana kiri kugenda mu muhanda gikomeza imbere, iki kinyabiziga kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo n'ikindi kimanuka biri kubisikanaho.

Ni imodoka ebyiri ndetse na moto ebyiri ziri kunyura mu muhanda w'umukara ndetse n'imirongo iri muri uwo muhanda n'ibiti bikikije uwo muhanda, hamwe na jaride, izo moto ziri kugenda zitwaye abantu ndetse n'iyo modoka isa umuka...

Igikoresho gikoreshwa mu bwikorezi kiri ku muhanda, hakaba hari n'umuntu wicaye iruhande rw'uwo muhanda, imbere yaho hari moto iri kumanuka, hakaba hari n'abantu bari kunyuranamo, bagenda bamanuka.

Umuhanda munini w'umukara unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, bimwe muri byo ari byo bikoreshwa mu bwikorezi, aho iki ngiki tubona gitwaye inka, kizijyanye ari cyo kizikuye ahantu hamwe kizijyana ahandi.

Umuhanda munini w'umukara ugendwamo mu byereke bigiye bitandukanye, harimo ibinyabiziga binini cyane bikoreshwa mu bwikorezi, bimwe muri byo bigizwe n'amabara y'ubururu n'umweru, aho ubona ko byikoreye imigozi myinshi ndetse n'abantu barimo bari kugenda muri uwo muhanda bafite amagare.

Ni inzira y'abanyamaguru, aho hari umugabo ufite igare. Akaba yambaye ipantaro n'ishati, ubona ko ari kugenda azamuka n'undi mugore umanuka wambaye ibitenge, ku muhanda haragaragara igikamyo hamwe n'abamotari bari kugenda muri uwo muhanda, hakaba hari n'ibiti bishinze kuri iyo nzira y'abanyamaguru.

Imodoka iri kugenda mu muhanda ikoreshwa mu bwikorezi ndetse na moto iri kugenda mu muhanda n'indi modoka iri inyuma yayo ikoreshwa mu bwikorezi ikaba iri mu muhanda munini w'umukara aho yegereye amazu ma nini yo gucuruzwa.

Ni imodoka nini cyane itwara abantu, imodoka y'umweru iri kugenda mu muhanda munini cyane uzamuka, hakaba hari n'indi modoka ntoya itwara abantu ku giti cyabo, imanuka, hakaba kuri uwo muhanda hashinze ibiti hamwe n'amafoto.

nimodoka iri kugenda mumuhanda munini w'umukara. Imodoka ikoreshwa mu kwigisha abantu gutwara ikinyabiziga ,aho harimo umuntu ugitwaye. Imodoka ikaba iri kugenda mumuhanda iruhande rugizwe n'ibimenyetso irimo.

Ni ikibuga kinini cyane ubona ko kiberamo imikino itandukanye harimo iyo gukina basiketi, ubona ko nta bantu benshi barimo, iruhande rwaho mu nkengero zaho hari ibiti byinshi bihateye hamwe na pasuparume zihateye.

Ni ikibuga gikinirwamo imikino igiye itandukanye ndetse n'aho ushobora gutsindira, hirya y'iki kibuga hateye ibiti ndetse n'ubusitani kandi hari n'umuhanda uhari impande y'iki kibuga.

Ni icyapa gikoreshwa mu mihanda, kiba gishinzwe ibumoso bw'umuhanda, kigizwe n'ikirango cy'umweru, ibara rizengurutse ni umutuku. Icyo cyapa kikaba gikunda gushingwa ku muhanda.

Ni icyapa kigaragaza amerekezo y'ahantu umuntu ari kujya, aho bakwereka ko iyo ukomeje imbere uba ugiye Kagarama, iyo ugiye hirya ibumoso uba ugiye i Nyamata. Ni icyapa gitewe ku muhanda, aho abamotari bakunze guhagarara.

Ni ibyapa byinshi bishinzwe ku muhanda ubona ko bigaragaza ko imbere hari inkomane aho banyuramo bazengurutse, ibyapa byegereye umuhanda, hakaba hari na jaride ziteye ku mpande n'igikuta kiri kuri uwo muhanda hamwe n'ibiti binini cyane.

Icyapa kigaragaza amerekezo. Icyapa gifite ibara rikizengurutse ry'umutuku, ikirango ni umukara. Ubuso bukaba ari umweru. Iki icyapa kikaba gishinze ku muhanda aho imodoka zinyura. Imodoka zigenda zibisikana.

Ni ibyapa bimenyesha, ibyapa bimenyesha bigizwe n'ibara ry'uruziga ry'umutuku, ikirango ni umukara n'umweru; icyo cyapa kigaragaza ko imbere hari umuhanda winjira mu wundi; ibyo byapa bikaba bishingwa ku mihanda imbere.

Ni inyubako nini cyane ubona ko ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, imbere yaho hari Rubis, Rubis ikaba itanga serivisi zo kugurisha amavuta y'imodoka, urabona ko n'imbere yaho hari imodoka zaje zikahaparika.

Inzu yubatse ahantu, iriho amatara ayimurikiye ndetse ikaba yubakishijwe amatafari n'ibyuma ubwo ni igipangu, iyo inzu ikaba igizwe n'amabara atandukanye n'amadirishya y'umukara n'andi y'ubururu.

Igiti giteye ahantu, hamwe na jaride. Hakaba hari n'icyapa kiri munsi yaho kigaragaza icyerekezo. Hakaba hari inyuma yaho n'inzu nini ya kadasitere, iri kuri uwo muhanda.

Ni icyapa kiranga ndetse n'amazu ari aho yegereye icyo cyapa, amazu akaba agizwe n'amabara agiye atandukanye ndetse n'ibiti na jaride n'ubwatsi buteye aho hantu, ayo mazu hakaba hariho ibyuma.

Umuntu ufite akajerekani uri kugenda mu muhanda. Ku muhanda hateyeho icyapa, kigaragaza ibintu runaka, inyuma yaho hari inzu nini y'umukara y'amarangi agiye atandukanye, ari kuri iyo nzu.

Umumotari uparitse mu muhanda ubona ko yambaye ijire ya Emutiyeni, akaba aparitse iruhande rw'igipangu, muri icyo gipangu hakaba harimo inzu nini cyane ifite ibyumba bigiye bitandukanye n'inzugi z'umutuku, hamwe hakaba hariho n'amadirishya.

Inzu yubatse ahanini cyane, ubona ko ifite ibyumba byinshi bifite n'amabara atandukanye. Hino yaho hari imbuga aho imodoka zikunda guparika ndetse n'umuhanda wegereye iyo nyubako, ubona ko abamotari banyuramo batwaye ndetse n'inzira y'abanyamaguru.

Ni inzu nyinshi ziteraniye ahantu hamwe, zubatse mu buryo bugiye butandukanye. Muri izo nzu harimo ibiti bigiye bihateye, ndetse zifite n'amabara atandukanye. Hari umuhanda uzamuka, urimo imirongo igiye igaragaza uwo muha...

Icyapa kigaragaza amerekezo y'aho ugeze, giteye ahantu impande y'umuhanda, muri uwo muhanda hari umumotari urimo waparitse, hirya yaho hari ibiti ndetse n'imodoka iparitse ahantu mu gipangu, aho hino y'uwo muhanda hari umuhanda w'igitaka.

Ni inzu nini cyane, iherereye ahantu ubona ko hari amagambo ayanditse hejuru, agizwe n'amabara y'umutuku n'andi y'umukara agiye atandukanye; iyo nzu ikaba ifite imiryango y'ahantu abantu binjirira, kandi ikaba iherereye ku muhanda n'ahantu hashinze ibiti.

Amazu menshi cyane ahuriye ahantu hamwe, ubona ko muri ayo mazu hari ibiti bimwe na bimwe bigiye biteye iruhande rw'ayo mazu, hakaba hari n'insinga zitwara imiriro ziyajyanye kuri ayo mazuki atandukanye.

Ni abantu bicaye iruhande rw'umuhanda, abantu bambaye imyenda y'ubururu ubona ko n'inyuma yabo hari inyubako nini cyane yanditseho Momento, iyi nyubako ikaba ikorerwamo ibikorwa byo gucuruza ibintu bigiye bitandukanye.

Abantu bicaye ubona ko harimo umumotari, n'umwana, n'umugore n'abandi babiri bicaye impande y'uwo muhanda, hakaba hari igare ribari iruhande rw'igipangu cy'umutuku, bakaba bicaye hamwe barimo baraganira, baganira ku bintu runaka.

Ahantu hitaruye cyane hagizwe n'ibiti by'icyatsi ndetse n'indabyo na jaride zihari, ubona ko aho hantu hitaruye cyane hari umuhanda munini w'umukara uri kunyurwamo na moto ndetse n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye n'amatara amurikira uwo muhanda.

Imihanda y'umukara minini ubona ko bwije hakaba hari n'amatara amurikira uwo muhanda, hakaba hari amazu manini cyane ari kwaka amatara afasha kumurikira uwo muhanda, hakaba hari n'imodoka ziri kugenda zinyura muri uwo muhanda n'abantu bari kunyura mu nzira y'abagenzi.

Umuhanda munini w'umukara aho imodoka zimanuka n'izamuka binyuraniramo, ku ruhande rwaho hari aho imodoka ziparika, kuri urwo ruhande rw'uwo muhanda nanone hari ibiti bihashinze hamwe n'amapasiparumu, hagaragaramo ko muri uwo muhanda hari kumanukamo mo moto hamwe n'imodoka by'ubwikorezi.

Imihanda y'isuka mu yindi, ubona ko igendwamo mu byerekezo bitandukanye bizamuka, n'ibimanuka ndetse n'ibitambika. Hari abagenzi bari kwambukira mu m'imirongo icagaguye ndetse n'imodoka ziri kunyuramo muruwo m'umuhanda n'amamoto. Hari n'amatara amurikira uwo muhanda.

Ni imihanda myinshi y'ibyerekezo bitandukanye, ubona ko muri iyo mihanda harimo imirongo ikicaga igaragaza ko hari ahantu abantu bambukira, hakaba hatewe ibiti byinshi muri iyo mihanda bifasha mu kugaragaza ubwiza bwaho.

Umuhanda munini cyane urimo imirongo ingiye itandukanye y'umuhondo imodoka ziri kugenda muri uwo muhanda ndetse nama moto n'ibindi binyabiziga hari amatara amurikira umuhanda ndetse n'ibiti bikikije uwo muhanda.

Ni imihanda minini y'umukara, ubona ko ari imihanda yisukiranya mu yindi, hari umu motari irimo uragenda muri uwo muhanda akaba atwaye umugenzi, ku ruhande rw'uwo muhanda hari ibiti bihashinze hamwe n'amatara amurikira umuhanda hamwe n'imenyetso byo mu muhanda.

Imihanda inyurwaho mu byerekezo byombi ubona ko imodoka imwe irazamuka n'undi mugabo arimo arambuka. Hino hari umugabo wambaye umwenda w'umukara n'ipantaro na we arimo arambuka. Hakaba hari na moto irimo iragenda muri uwo muhanda ndetse n'imirongo icagaguye abantu bambukiramo.

Umuhanda munini wumukara ,urimo imirongo igiye icagaguye igabanyamo umuhanda mo kabiri ,hakaba hari moto zigenda zizamuka muri uwo muhanda, iruhande rwaho hari aho indabyo ziteye.

Umuhanda munini w'umukara urimo imirongo igiye icagaguye igaragaza aho abantu bambukira, ku ruhande rwaho bateye indabyo n'ibiti byinshi hamwe n'amafoto amurikira uwo muhanda, hakaba hariho n'umuhanda w'abagenzi banyuraho bagenda.

Umuhanda winjira mu ndunda ko muri uwo muhanda hari icyapa kigaragaza ko aho bahanyura bahazengurutse, akaba ari n'imodoka zirimo zihazenguruka zijya mu byerekezo runaka, muri uwo muhanda hakaba bateyemo indabyo zigenda zitandukanye ndetse n'amabara y'umukara n'umweru ari ku muhanda.

Imihanda minini y'umukara ubona ko imodoka zinyura mu byerekezo byombi, hakaba hari imirongo icagaguye abantu bambukiraho ndetse na moto zirimo ziragenda zizamuka zitwaye abagenzi. Ku ruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibiti bihateye hamwe n'amafoto amurikira uwo muhanda.

Imirongo yanditswe mu muhanda ndetse n'ahantu abantu bambukira hagizwe n'amabara y’umweru, hari moto ziri kunyura muri uwo muhanda ndetse n'ibimenyetso bimurika biri muri uwo muhanda bifasha mu kuyobora ibinyabiziga ndetse n'ibyapa biri kuri uwo muhanda bimenyesha…..

Imodoka itwaye inyama yanditseho moto derivari. Imodoka ikaba iri kugenda mu muhanda munini cyane w’umukara, imbere yaho hari umuntu utwaye igare. N’indi modoka irimo irinjira muri uwo muhanda w’umukara.

Imihanda yisuka mu y'indi hari imodoka iri gukomeza imbere nini cyane ikoreshwa mu bwikorezi, aho itwara ibintu bitandukanye, impande y’uwo muhanda hari ubusitani buhateye ndetse n'ibiti bihateye kuri uwo muhanda.